Igikoresho cyiza cyitwa igisabo, kikaba cyarifashishwaga kandi na n'ubu kikaba cyerekana ko ahantu hari amata bivuga ubuzima, kikaba cyarifashishwaga mu kubika amata kugira ngo ataba yagira ikibazo cyangwa se abe yahumanywa.

Abantu bishyize hamwe bafite igitekerezo kimwe. Bakaba baje mu gikorwa cy'umuganda wo kubakira umuntu. Hakaba hari abantu babiri bafite itafari rikozwe mu cyondo. Bakaba bagiye kuyishyiraho ndetse na none iburyo bwabo gato hakaba hari undi nawe uyifite ndetse hakaba hitabiriwe n'inzego z'umutekano n'izishinzwe umutekano rusange mu gihugu no hanze yacyo.

Umukobwa w'umupolisi wicaye, yambaye impuzankano za police y'u rwanda, akaba yifashe ku munwa. Inyuma ye hakaba hari inzu iriho urugi rw'umukara.